Ubwiherero bwifashishwa n'abantu, mu gihe bagiye kwihagarika ndetse no kwituma, hari umwana uvuye muri tuwarete, imbere yaho hari injerekani irimo amazi yifashishwa mu gusukura intoki.

Igishushanyo kinini kiriho abana batandatu. Bafite amasuka, imihoro, ipiki ndetse n'utubindi. Bagiye ku mirimo itandukanye.

Abanyeshuri bari mu kigo barimo kwidagadura, bambaye impuzankano ariyo: ijipo ku bakobwa y'ubururu, n'ikabutura y'ubururu ku bahungu, n'amashati y'imyeru, n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri bavuye ku ishuri baganira, bambaye impuzankano nziza, abakobwa bambaye ijipo y'ubururu n'ishati y'ubururu, inkweto z'umukara n'isogisi ry'umweru, abahungu bambaye ishati y'ubururu n'ikabutura y'umweru, inkweto z'umukara, amasogisi y'ubururu.

Igishushanyo kiriho abana batandatu, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ari byo isuka, umuhoro ndetse n'ikibindi.

Igikapu cyifashishwa mu gutwaramo amakayi ndetse n'amakaramu by'abanyeshuri. Hariho udushushanyo twiza ari two utunyugunyugu turi mu mabara agiye atandukanye, ari yo umutuku ndetse n'ubururu.

Ishuri ryigamo abanyeshuri biga ku mashuri abanza hariho ikibaho cyanditseho imibare barimo kwandika, ku rukuta hariho ibyapa bigiye biba mu mabara atandukanye ari yo icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku.

Amashuri meza yifashishwa mu kwigishamo abana gusoma no kwandika, hepfo y'aho hari ikibaya kirimo abaturage barimo gushakisha ubwatsi bw'amatungo.

Abana barimo bakina bishimye bizihiwe, barishimye barakina bameze neza, bari mu muhanda, barimo bagenda.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gushushanya, guca imirongo ndetse no guca uruziga, hari irate ndende, iya mpande eshatu ndetse n'iy'uruziga, hari ikereyo bifashisha mu gushushanya.

Ibikoresho byifashishwa n'abana, biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Babikoresha mu gihe barimo gushushanya. Hariho amakereyo, irate ndetse n'umukasi.

Icyapa kinini kiriho ibishushanyo byigisha abana mu mashuri y'inshuke; hariho umukasi wifashisha mu gukata ibintu, hariho ilate ndende yifashishwa mu guca imirongo.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya. Ariyo ikereyo ndetse n'ikaramu. Hariho umukasi wifashisha mu gukata. Hariho urubuto barya.

Ibikinisho byifashishwa n'abana mu gihe barimo kwiga gusoma ndetse no kwandika, hari imitako igiye itandukanye iri mu mabara asa icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hari udupira bifashisha mu kudukina bateresheje amaguru.

Igikoresho cyifashishwa n'abana b'incuke mu gihe cy'imyidagaduro, iyo abana bakigiyeho baba bishimye banezerewe barimo kumva umunyenga; baba bishimye, bakina, baseka, ibyishimo ari byose.

Igishushanyo kinini kiriho ibikoresho bifashisha mu bubaji ndetse no mu bwubatsi, hariho ururekezo, ishoka ndetse n'inivo y'amazi n'inyundo ndetse n'icyo bifashisha mu gupima uburebure, hari n'urwego rwifashishwa mu kuzamuka hejuru ku gisenge.

Icyapa kinini, cyanditseho inyuguti, zigishwa abana bari kwiga gusoma no kwandika, biga mu mashuri y'incuke. Ziri mu mabara agiye atandukanye, umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri, biga mu mashuri abanza, bakicaraho bakiga ndetse bakigeraho n'ibintu byinshi bigiye, hari ibishushanyo byiza byifashishwa n'abana mu kwiga, ibyumba bigiye bitandukanye, ibirimo ibitabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari ameza bifashisha bari kwandikaho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu guca imirongo ndetse n'uruziga, hari iyica umurongo uhagaze, uberanye, uruziga ndetse n'ibya mpande eshatu, biri mu mabara y'icyatsi.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aribyo: imigozi, imipira ndetse n'amakereyo bifashisha mu gihe barimo kwiga kwandika ndetse no gushushanya.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, biri mu mabara y'icyatsi, ubururu, umutuku n'umuhondo, ibi bikoresho babyifashisha mu gihe barimo gukora umutako.

Icyumba kinini kirimo intebe n'ameza byicarwaho n'abana b'inshuke, hariho ameza hejuru yaho hariho amakaramu ndetse n'igitabo, amakaramu bayifashisha mu gihe barimo kwiga kwandika.

Umuryango uri mu rugo baricaye bameze neza, hari abana bane bicaye, bamwe bicaye ku ku musambi abandi bicaye ku ntebe. Hari ababyeyi bakuru batatu, harimo umwe urimo gusomya undi amazi.

Abanyeshuri bahuriye hamwe bicaye, inyuma yabo hari abandi bahagaze. Bambaye inifumo ziri mu bwoko butandukanye: amashati y'umweru, amapantaro y'umukara ndetse na kaki.

Abanyeshuri bari mu ishuri. Bambaye, impuzankano, y'umweru ndetse n'umukara. Bicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, hariho n'ameza abafasha mu gihe barimo kwandika.

Ikigo cy'abakobwa gusa bambaye inifomo y'umukara ndetse n'amashati y'umweru. Inkweto ni umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, hari abayobozi babo ari kumwe n'abanyeshuri barimo gufata ifoto.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabo ariyo: amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, ijipo n'amapantaro bya kake n'amashati y'umweru n'imipira y'imikara, bari kumwe n'abarezi babo ndetse n'abayobozi barimo babaganiriza.

Amashuri yigamo abanyeshuri, impande yaho hariho ikigega gifata amazi yifashishwa mu rugo mu kumesa ndetse no guteka. Hari ibyicungo by'abana bifashisha mu gihe cy'imyidagaduro.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe, bambaye amajire y'icyatsi ndetse n'ingofero y'umweru ndetse n'umuhondo, inyuma y'aho hariho imodoka y'umweru ndetse n'umukara, inyuma y'aho hariho amashuri ndetse n'ubusitani.

Inyubako yigaho abanyeshuri baje kuhakura ubumenyi butandukanye, harimo ahantu hashobora kubafasha kuruhuka.

Ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa. Hari abanyeshuri barimo kubikoresha barimo kwiga, bambaye udupfukamunwa tubarinda kwandura indwara zandurira mu mwuka.

Abanyeshuri bari mu ishuri baricaye bari kwiga, mu cyumba barimo harimo intebe ndetse n'ameza bifashisha bari kwandika, harimo ikibaho mwarimu abigishirizaho amasomo yabo ya buri munsi.

Urugi rufunga rukanafungurwa kugira ngo umuntu amenye umutekano we uko uhagaze, rudufasha kwirinda abajura, iyo basanze wahafunze ntibagutera.

Ibumba ryifashisha mu gukora ibikoresho bikozwe mu ibumba, hari irangi basigaho kugira ngo iryo bumba bifashishije barihe forume y'ibara bashaka.

Umuhungu wicaye ku ntebe afite mudasobwa arimo kuyikoresha mudasobwa iteretse ku meza ikoze mu biti n'imbaho.

Abanyeshuri bari mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, biteretse ku meza abafasha gufata ibyo bikoresho byabo barimo kwigiraho.

Urubyiruko ruri mu cyumba rurimo kuganira, bicaye ku ntebe ndetse hari n'ameza bashyizeho ibikoresho byabo, bafite amacupa imbere yabo arimo amazi.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abantu bose muri rusange mu kwandikamo ibintu bigiye bitandukanye, bigaragara ko iyi kayi yanditswemo isomo ry'imibare ryifashishwa mu kwiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iteretse ku gikoresho kitwa ameza kifashishwa mu gihe uri kwandika.

Umuhanda wifashishwa n'abaturage bakora ingendo, hariho ubusitani bwiza buteyeho indabo n'ibiti biduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Icyapa kinini kiriho ibishushanyo by'imbuto bigiye bitandukanye ari byo imineke, inanasi ndetse n'amacunga, izi mbuto zifashishwa mu kurinda indwara zigiye zitandukanye.